Viza kadi umuntu ari kuyikoza kuri ka kamashini kavanaho amafaranga amajije guhaha amajije gushopinga nko muri shopu, muri supamaketi agakozaho iyo viza kadi ikavanaho amafaranga y'ibyo yahashye na byo ni ibintu bya onorayine.

Ndikubona ikirahure kirimo byeri cyanditseho amusiteri, noneho inyuma y'icyo kirahure hariho etajeri irimo amave y'ubwoko bwinshi nkabona na terevisiyo ku ruhande.

Akabari karimo kontwari iteretseho ibirahure byinshi, iteretse n'amacupa, aka akabari karimo kwakamo amatara anyuranyije harimo iroza(pink), ubururu, harimo amabara menshi harimo n'abantu bari kunywa bicayemo bari kunywa amabyeri ndabona nagacupa k'amazi.

Ndi kubona bare, ifite kotwari y'amabara arimo umuhondo n'umukara, hariho n'intebe impande ya kotwari, hirya ndabonamo umuntu uhagaze, ifite purafu yamabara yubururu n'umutuku n'umukara n'umweru, ndikubonamo n'amabafure

Abantu bari mu kabari, hari abicaye hanze y'akabari, hanze y'akabari hariho imeza iriho igipankarite cya mitsingi, abantu bicaye imbere yayo meza, umwe agiye afite udupeti mitsingi tubiri, undi afite sikolo ebyiri n'undi peti mitsingi ebyiri

Akabari gafite amatara ari kwaka amabara y'ubururu harimo abantu bicaye impande ya kontwari batatu bari kureba tereviziyo irimo umupira.

Akabari karimo kontwari imeze neza, imbere yaho hari n'udutebe abantu bicaraho, harimo na firigo ebyiri, irimo n'izindi meza.

Umuhanda w'amabuye hari kugendaho moto, moto ihetse umugenzi, iruhande rw'iyo moto hariho icyapa kigaragaza kiri kwamamaza Amusiteri kinagaragaza akabari kari impande yacyo, kuri ako kabari haparitseho imodoka, imodoka imwe iri munsi y'igiti,...

Tarifu irikwerekana ibintu bacuruza, ikerekana ibiciro, ikerekana ishushanyijeho uturahure turimo ama ji, ikerekana ibyo umuntu yajya nko muri resitora bakamuhereza iyi tarifu, ikamwereka, akareba ibyo ashaka gufata akabirebera kuri iyi tarifu.

Ndikubona ibiganza bitatu, ibiganza bibiri bifashe kariya kamashini bakozaho viza kadi, ikiganza cya gatatu ndabona ari icy'umuntu ufashe viza kadi mu ntoki agiye kuyikoza kuri ka kamashini. Ibi ndabona ari umuntu uri guhaha ushaka kwishyura kuri viza kadi.

Akabari ka VIP gafitemo Kontwari isize amarangi y'umukara, muri iyo kontwari harimo umuntu uri gucuruza ari kureba kuri etajeri, etajeri irimo amave na yo isize irangi ry'umukara, iyo kontwari na yo iteretseho amave n'ibirahuri ifite n'intebe z'umukara.

Akabari karimo kotwari, kontwaro iteretseho icupa rya ve, hateretseho n'utuntu tumeze nk'uturahuri turi kwakamo buji, tukaka amabara atandukanye, hirya yaho hari etajeri iteretseho amave, iyo etajeri ni iy'ibirahuri hari kwakamo amatara anyuranyije.

Ndabona aka ari akabari karimo za Sikolo, ndabona gafite firigo yanditseho Sikolo, ndabona harimo n'amave, ndabona harimo n'intebe nyinshi ariko nta bakiliya barimo, ndabona gafite n'amatara

Ndi kubona ahantu hari amakarito y'amata y'ikivuguto, udukarito turimo amata y'ikivuguto; nkabona ari nyabisindu. Iruhande rwaho hariho akavido karimo amata, dutoya twa ritiro aba ari eshatu. Hariho na yahurute zo mu dukombe, hakaba na yahurute zo mu ducupa; nkabona ari muri koperative icuruza ibintu bya dayari.

Ndikubona Inyange milk ifite amabara y'umweru n'ubururu, ndabona ari diary umuntu arimo aravomeramo amata mu kabido k'umweru nawe yicaye aho ngaho yambaye kashipusiyeri y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ndi kubona abantu batatu abo bantu batatu bicaye impande yabo hari ameza babiri baricaye uwa gatatu ndabona ari kubasukira icyayi cyangwa amata ndabona ahantu bicaye ari muri kantine y'ahantu bacuruza amata nkabona n'icyapa cyanditse ngo hano hari amata meza y'inka.

Ndikubona inzu isize amarange y'umweru iyo nzu irimo dayari y'amata ifite n'amakaro ifite n'amadirishya abiri ndikubona ahangaha bacuruza ibintu by'amata.

Ndikubona umumama wicaye wambaye imyenda y'igitenge unasutse, ari yicaye impande ye hari akameza kariho itasi, itasi shobora kuba irimo icyayi cyangwa amata, hariho n'aga afite n'agapaniye imbere ka pinki, karimo seriviyete, iruhande rw'uwo mu mama hariho firigo ya kokakola.

Ndi kubona ikintu kiriho cy'umweru n'ubururu ateretseho parete y'amagi itarimo amagi ariko ni parete bashyiramo amagi nyine y'umutuku hejuru yaho hariho amverope irimo keke iruhande rwaho hari igikuta gisize amarange y'umweru na kake.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba kinini kirimo amatara makeya y'umuhondo hari intebe z'umutuku ndetse naho banyura hakozwe mumabara y'umukara n'umweru. Ahantu hanywerebwa inzoga.

Mukamira dayari. Hari kontwari. Hejuru ya kotwari hari amakarito y'amata, amakarito asa umweru shushanyijeho inka, amakarito afite akabara k'umweru n'umuhondo afite n'akabara k'iroze n'umweru, afite n'akabara k'ubururu n'icyatsi, mo imbere muri kontwari harimo firigo harimo n'abantu babiri bambaye imipira y'ubururu.

Dayari ifite amarange y'ubururu n'umweru hejuru yiyo dayari hariho agapaniye gasa nk'ivu(grey) karimo seriviyete z'umweru, hirya y'aho hari etaje iteretsemo amabido abiri y'umweru, hariho na kontwari ifiteho ikintu kigishushanyo kiriho za yahurute n'utubido tw'amata.

Kantine isize amarange y'ubururu n'umweru irimo itajeri isa ubururu, itajeri iteretseho amateremusi abiri, iteretseho naka bogisi karimo capati ndetse nutundi tu bogisi kamwe karimo ama keke n'amandazi n'amasahani. Irimo na firigo y'umweru ifite naga puberi(dustbin) gafite amarangi y'umukara.

Katine icuruza ibintu by'amata igacuruza n'amaji ya pome n'amata yo mu makarito n'amata y'amasukano harimo kotwari isize amarange y'umweru, iteretseho iparato iriho amagi, muri iyo kotwari harimo umuntu wambaye agapira ka roshiborudo, ndabona harimo n'utumeza tw'umweru n'ijaga n'indobo zo gu.

Umukobwa ufite jage y'amata, ufite n'akabirikira, afite n'akabido ari kubuganiza amata, utubido tubiri duteretse ku meza ndabona ari dayali.

Ameza ateretseho isahani y'ubururu, iyo sahane y'ubururu iriho amasambusa, amasambusa imwe ikasemo kabiri, imwe irimo inyama. Iyi meza irasa shokora na jone.

Ndikubona ameza iteretseho agapaniye ka giri karimo seriviyete z'umweru, seriviyete ziri mu ishashi, aha ndabona ari muri kantine.

Kantine icururizwamo amata, harimo etajeri, etajeri irimo ibirahuri, amatasi, amasahani, indobo irimo amandazi na seriviyete, indi etajeri irimo udukarito tw'amata n'amazi yo kunywa, ndabona aha hantu bacururizamo amata.

Ndi kubona Inzu irimo amarange y'umweru hasi hari amakaro noneho harimo diary y'inyange inyuma ya diary y'inyange hari aka etajeri karimo jus ziri mu dukarito za mango n'udukarito tw'amata n'uducupa tw'amazi nutu n'uducupa turimo jus za pome nizamatunda nandi makarito kuruhande nkabona n'intebe y'umweru.

Ameza ya giri, ateretseho akabido k'umweru karimo amata y'ikivuguto, hirya yaya meza hari umuntu uhagaze ho wambaye imyenda y'ubururu, uri kugaragaza igice cyo hasi, hari n'undi uri gutambuka agenda.

Ndikubona dayari y'amata, iruhande rwa dayari hariho ibido y'umweru nakabirikira, ndabona na kontuwari imbere muri kontuwari harimo umukobwa uri gucuruza ndabona arigupfunyika amandazi mukamverope, yambaye akaburuze ka rose nagapantaro kumukara, imbereye haramakarito y'inyange harimo na bogisi zirimo amandazi ndabona na firigo, inyuma ya kontuwari hari umwana hejuru yakontuwari hari akabido kamata.

Ndi kubona kontwari iri ahantu, iyo kontwari ni iy'ibirahure harimo utuyahurute tugaragara, ikaba irimo n'udukarito duteretseho izo yahurute hakabamo n'amata yayandi yo mugishashi, inyuma y'iyo kontwari hariyo ama etajeri nayo arimo amakarito y'amata n'amayahurute, iyi kampani nkaba mbona ari Furashi ari Ruwayari furashi miriki icuruza ibyo bintu.

Ndi kubona abantu babiri, umwe yegamye kuri kontwari, yambaye n'umupira w'umukara, undi arimo imbere muri kontwari yambaye umupira w'umuhondo wa emutiyene, imbere ye hari kompiyuta, afite na telefone mu ntoki, ndabonamo imbere ye harimo ibipapuro byamamaza emutiyene, serivise za emutiyene nge ndabona ari umukozi wa emutiyene w'inyuma nkaba mbona ari umukiliya.

Moto ifite amarangi y'umuhondo ya MTN n'uyitwara na we yambaye umupira wa MTN, inyuma y'iyo moto hari imodoka iri ku gipankarite hariho n'umuntu uri kwamamaza tombora y'iyo modoka.

Ndikubona kiyosike ya MTN, ifite amabara nk'aya MTN n'ibyanditseho ni MTN MoMo, ndabona biri muri expo, impande yaho hariho amabafure, mo imbere harimo abantu mbona bari kw'expoza amaterefoni, hanze hari abantu baje abakiriya, ndabona ibi ari ibyo muri expo.

Ubwo wibajije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko nanone ukugira ubunebwe ntabwo ujya uva mu rugo ngo ubashe kutemberera n'ahantu dutuye uko hameze ariko nanone birafasha niyo unaniwe ntabwo ushobora kuva iwanyu unaniwe cyangwa utashye bwije ngo ujye ku isoko guhaha. Nkuko ubibone iki ni ikirango kerekana imyenda y'iminyarwanda n'inkweto zikorerwa mu rwanda nawe wabyihangira

Inzu irimo abantu bakoreramo ba MTN,ndikubona abantu batatu bafite ibirangantego bya MTN,hari n'ufite igipankarite ari kerekana uko babishyura kuri momo payi nabandi babiri , n'undi ufite apareye ushobora kuba ari gufotora n'undi urimo imbere muri kontwari.

Abantu babiri, bicaye ahantu, ndi kubona imeza itagaragara neza, nkabona munsi y'iyo meza harimo miritipurize icometseho imigozi, undi muntu umwe afite telefone mu ntoki, n'umuntu uri kwishyura kuri mobayilo mani, n'undi na we ari kugaragaza ikirenge cye kimwe.

Agakiyosike gatanga serivisi za MTN, hariho abantu babiri inyuma mu imbere nta barimo, umwe yambaye umupira w'umuhondo wa MTN, n'ikoboyi y'ubururu n'undi yambaye ijire ya MTN, ndabona ariwe utanga serivisi za MTN, imbere y'ako gakiyosike hariho ibiti by'imiyenzi n'ibindi biti by'imivumu.

Ndikubona agakiyosiki ka Eyateri mani, hahagazeho abantu batatu, ndabona bari gusuhuzanya, ndabona umwe yambaye baji ya Eyateri mani, impande y'ako gakiyosiki, ako gakiyosiki gateretse impande y'inzu yindi.

Ndi kubona agakiyosike gacuruza serivisi za emutiyeni, kakanacuruza serivisi za eyateri. Ndi kubona abakiriya bane baje gushaka serivisi za emutiyeni n'iza eyateri mane. Ku ruhande rwabo hariho itente.

Emutiyene iri kwerekana igipankarite cyanditseho ngo gura paka ya bando utsinde, kiriho amafaranga n'indege, ikerekana n'ikindi gipankarite kiriho abantu babiri umwana n'umusaza, ikerekana n'ikindi gipankarite kiriho esimake y'ubuziranenge iriho na kamera.

Ndi kubona agakiyosike gatanga serivisi za emutiyene. Harimo serivise za mobayiro mane, mw'imbere harimo aka karimo kagaragaza ibintu by'amatelefoni yaza nokiya. Mu imbere harimo utanga izo serivisi, inyuma hari abakiriya nka bane. Ubona bashaka izo serivise.

Emutiyeni harimo kontwari mu imbere harimo abantu babiri umwe yambaye umupira wa emutiyeni w'amabara y'umuhondo, undi nawe yambaye umupira w'umweru ariko nawo ni emutiyeni yambaye na baje ya emutiyeni ndabona afiite agaseke, agaseke ndabona agahereje uri inyuma ya kontwari ngo atombore ndabona ari gushaka gutombora ndabina ari tombora ya emutiyeni.

Ameza yo muri ofisi, imbere y'ayo meza hicaye abantu babiri, umwe afite terefone mu ntoki arasa nk'umuntu uri kwishyura ibintu kuri mobayiro mani, undi na we ntari kugaragaza ibyo ari gukora ariko yambaye inkweto z'umukara, n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu. Munsi y'ayo meza harimo miritipurize biragaragara ko hari imigozi icometsemo nk'imashini

Abantu babiri umwe afite telefoni mu kiganza cye iyo telefone ye irimo esmark undi nawe afite indi telefone mu kiganza cye ari gusikana estmake akoresheje telefone hagati yabo harimo ameza ayo meza ateretseho uduta tw'umweru.

Abantu babiri bahageze inyuma ya kontwari umwe afite terefone, undi afite ka kantu kaba kanditseho kode za momo peyi, undi arimo imbere muri kontwari yambaye umupira w'umutuku. Muri kontwari harimo firigo irimo firigo ya kokakora irimo amakoka, n'inyuma ye hari etajeri irimo ibindi bintu.

Agakiyosike ka eyateri mani, gahagazeho umuntu urimo imbere n'uri inyuma, ubona ko uri inyuma ari umukiliya, gafite n'ibipapuro biri kwamamaza diyesitivi, hari n'akandi gakiyosike kahegereye ka emutiyene nako kariho umukiliya.

Ndikubona moto ifite akabuwate kanditseho birasi iruhande rw'ako kabuwate hari umu umumotari yegeranye n'undi muntu ndabona yafunguye ako kabuwate, ndabona agiye kumuhereza ibyo ibyari biri muri ako kabuwate iruhande rw'iyo moto ndabonaho amazu menshi asize amarange y'umuhondo ndabona ibi bintu ari ibintu ni ubucuruzi bwa onurayine.

Abantu babiri umwe yambaye umupira w'umutuku undi yambaye uw'icyatsi bafashe agakarito gafunze nka kado ari ibintu bya shopingi onurayini.

Moto zikoresha umuriro, moto eshanu zose zigiye zifite utubogisi tw'umutuku, zikora serivise zo kugemurira abantu babatumye, bahashye kuri onilayini.

Ndikubona moto enye, ziparitse impande ,impande yaho hariho igipangu cy'amarangi y'umuhondo, ziparitze kuri kaburimbo izo moto uko ari enye zose zigiye zifite utu buwate tugiye twanditseho ngo tumiya fudu njye ndabona izibuwate arizo batwaramo ibintu baba babatumye ndabona bacuruza ibintu, ibyo bacuruza babicuruza onurayini.

Ndikubona umu motari uparitse impande ya porutaye usa nk'ugiye kwinjira muri porutaye afite amverope irimo ibintu acuruza kuri onurayini, uwo mu motari yambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu n'umupira w'iroza n'ingofero y'umutuku ariyo kasike. Iyi moto ye iriho aka bogisi(box) ndabona ubu bucuruzi ari onurayini, impande ziki gipangu hariho igiti .

Ndikubona moto iparitse, ifite akabogisi kanditseho yego na nimero, hejuru yaho hariho akamvirope, akamvirope karagaragara ko harimo ikintu, hariho akaboko gafashe kuri ako kamvirope, aho iparitse hariho igikuta cy'amabuye impande ya moto, ndabona utu tubogisi byanze bikunze ducuruza ibintu, bagacuruza ibintu onulayini.

Vuba vuba ni serivise itwarira abantu ibintu, tuvuge wahamagaye nk'umuntu akaguhahira, cyangwa akakuzanira ibiryo bya saasita, cyangwa ukamutuma n'imyenda. Akabitwara kuri iyo moto iba ifite akabuwate k'icyatsi, ndumva ari serivise ikora kuri onorayine

Igare riparitse ku gipangu gifite porotare ya giri, Umuntu utwaye iryo gare yambaye ishati y'icyatsi, ahetse na malete yanditseho vuba vuba, ifite ikirangantego cy'ubuziranenge cya S mark, iyo malete irasa icyatsi, iyo malete ishobora kuba iri ibyo bamutumyeho muri iki gipangu, azanye.

Ndi kubona umumotari ufite akabogisi k'umutuku kanditseho KFC, ndabona ari ubucuruzi bwa onorayini batuma umuntu akabazanira ibintu uri kuri moto akabikugezaho.

Ndikubona abantu babiri, umwe yambaye aga shati k'icyatsi, undi yambaye ishati ya kacyi, ndikubona uwambaye ishati ya kacyi ariguhereza amverope y'ibintu yahashye, harimo ibintu byinshi amavuta ndikuyabona y'igihwagari, nkabonamo na pavuro, nkabonamo na karoti, ndabona aba bantu umwe yaraje guhaha undi amuhereje ibyo yahashye, inyuma y'aho hariho igikuta kimeze nk'ikibyatsi.

Ndi kubona moto, abamotari bahetse abagenzi babiri, kandi ndi kubona kampani yabo ngo ari safi moto. Bahetse abakobwa babiri, kandi ndabona bari mu cyerekezo kimwe. Ndabona bari kwamamaza ubucuruzi bwabo bukorera kuri onulayini.